Icyapa kinini cyamamaza kampani y'ubwishingizi, gisize irangi ry'ubururu, kimanitse ku cyuma kirekire, hirya yacyo hari indi nzu ya etaje yanditseho amagambo iriho n'ibindi byapa bitandukanye, isize amabara menshi y'umutuku, icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Inzu yubakishije amakaro harimo ivaze iteyemo ururabo rufite amababi manini. Yicayemo umugabo, wicaye imbere y'ameza ateguyeho igitambaro kiriho ibara ry'ubururu n'umweru, ku ntebe zitukura inyuma hari ikindi cyapa cyanditseho "radiant". Hirya hari undi mugabo wambaye ikositimu, inyuma ye hari umugore.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe z'amavatiri, harimo iz'umukara, umweru hejuru yazo hari icyapa cyanditseho amagambo mu nyuguti itukura n'icyatsi kibisi, kiriho umukobwa wambaye umupira utukura w'misatsi miremire w'umuzungu, hirya hubatse amazu.

Itangazo ryo kwamamaza ubwishingizi bwa radiyati, hariho umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana babiri, hariho imibare wakanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego na nimero wahamagara.

Mu isoko ry'imyenda hagiye harimo utwuma tumanitseho imyenda y'amabara atandukanye. Hirya hari abantu babiri bahagaze, harimo umusore uri kureba muri telefone n'umumama uri hirya ye. Hejuru mu isoko hari amatara ari kwaka n'utundi tuntu tumanitsemo tw'umweru.

Mu isoko ry'imyenda harimo iporotomanto iteye nk'umuntu w'umukobwa, bayambitse ijipo n'agasengeri k'umwe k'umukara hirya hari utundi tubati tugiye dupanzemo inkweto z'umukara n'umweru n'andi mabara menshi atandukanye.

Mu isoko ry'imyenda, hejuru hasize irangi ry'umweru no ku bikuta, hasi hari amakaro, hateretsemo utwuma tw'umukara tugiye dushinze, hariho amakanzu, amakoti, hirya harimo n'indi myenda ifite amabara agiye atandukanye.

Iduka ry'imyenda, harimo amapantaro azinze n'amashati amanitse kuri porotomato, ayo mapantaro harimo ay'umukara, ay'amakoboyi y'ubururu, n'amashati y'umweru.

Imodoka nziza y'umukara iparitse, iri kwaka ibinyoteri by'imbere, ku mpande z'umuhanda hari igipangu cyubakishije udutafari duhiye, inyuma yacyo hari ipoto rikwirakwiza insinga z'amashanyarazi, hirya n'inyuma yayo hateye ibiti byarandaranze bifite amashami manini.

Abagabo bane bahagaze imbere y'imodoka y'umweru iparitse ku mbuga ipavumeshije utubuye duhiye hirya harimo uwambaye isaha afite agasakoshi mu ntoki gatukura gafite ibara ry'umweru hagati imbere uri k'uruhande n'abari hirya bafashe icyapa cyanditseho amagambo imbere.

Imodoka nziza isize irangi ry'umukara, ifite amatara atatu, rimwe mu ruhande rumwe, irindi mu rundi, irindi hagati na hagati, imbere ifite ibirahuri n'amapine, ihagaze mu muhanda, inyuma yayo hari ibiti n'amazu.

Imodoka nziza cyane, y'umukara, ifite ibirahuri byiza, ifite amapine meza, yanditseho ijambo inyuma viyayipi.

Abagabo babiri umwe wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, undi ipantaro n'ishati ya makarokaro. Bahagaze ku mbuga yubakishije utubuye duhiye. Bafite icyapa mu ntoki giteye nka gitare cyanditseho amagambo. Inyuma yaho haparitse imodoka nziza y'umukara.

Umusore wambaye ipantaro y'ikoboyi afite akantu k'umweru mu ntoki n'umupira w'umweru yambeye n'agapfukamunwa ahagaze iruhande rw'imodoka nziza cyane y'umweru hirya hari indi modoka y'umukara munsi hari icyapa cyanditseho Yundayi.

Abantu batatu, harimo abagabo babiri bambaye imipira ya rakosite y'umukara, hagati yabo harimo umugore, bahagaze ku mbuga y'amapave, inyuma yabo haparitse imodoka ya dayihatsu, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo, giteye nka gitari, hirya y'iyo modoka hari igipangu cyubakishije udutafari duhiye, gifite na giriyaje zisize irange ry'umweru.

Imodoka nziza z'umweru zifite ibinyoteri inyuma isa n'amapina ari ahantu hamwe n'ibirahuri bisa, hirya yazo hari ibiti biteye mu busitani iminara iri ahantu hatandukanye ifite insinga zijyana umuriro ahantu henshi.

Abagabo babiri bambaye amashati y'umweru bahagaze imbere y'imodoka nziza cyane y'umukara, bafite icyapa umwe ku ruhande rw'iburyo, undi ku rw'ibumoso mu ntoki bareba imbere, inyuma yiyo modoka haparitse izindi modoka ebyiri iy'umweru n'indi vatiri y'umukara.

Imodoka eshatu z'ivatiri, zisize irangi ry'umukara, ziparitse inyuma y'igipangu cyubakishije amabuye abumbye mu isima, hirya yaho hari urundi mu modoka runini rwa fuso rutagaragara imbere, ku mpande hariho ibara ry'umweru.

Imodoka nziza y'umukara iparitse ku makaro, hirya aho iparitse hubakishije ibirahuri, hejuru yabyo hari utwuma dusize irangi ry'umukara, aho hasize irangi ry'umweru muri iyo nzu iparitsemo.

Abagabo batandatu bahagaze, batatu muri bo bafite udukapu tw'umutuku turimo n'ira ry'umweru, iruhande rwabo hari imodoka nziza na ahantu bari hateguje ibipirizo bisa n'umutuku umukara n'umweru.

Abagabo batatu banini bahagaze imbere y'imodoka iriho icyapa cy'umweru yandikishijeho inyuguti zitukura ni z'umukara, kumodoka ya toyota inyuma yayo hari ihema ryanditseho a, b na g.

Imodoka nyinshi ziparitse muri parikingi harimo iy'umweru iri ku ruhande, hagati harimo iy'umukara ifite ibinnyoteri bitukura, hirya hari indi y'umweru ahantu ziparitse hari umuryango usize irangi ry'ubururu.

Imodoka nziza cyane isize irange rya kake, imbere hari ururabo rw'umutuku n'umweru, mu muryango wayo harafunguye hahagazemo abantu, ku ruhande rwa hano hirya naho hahagaze abagabo batatu kuri buri muryango.

Umugabo wambaye ishati ya buresiyeri y'amaboko maremare yarambuye intoki ku meza, yicaye iruhande rwayo, hari amafaranga inoti zishushanyijeho umuntu w'umugabo y'Amanyamerika ari kuyabara.

Igiceri cy'atanu amafaranga y'u Rwanda cyanditseho, amagambo ngo amafaranga atanu n'umubare gatanu. Hariho ikiranganitego cy'Igihugu, harimo isaka, hakaba agaseke n'uburo bizengurutswe n'umugozi upfunditse.

Umusore uhagaze ku idirishya utegereje guhabwa serivisi muri banki, yambaye ishati y'amakarokaro irimo utubara duto tw'umweru n'umukara, hirya ye hahagaze undi mugabo wambaye imyenda y'umukara, munsi y'ibipurizo by'amabara atandukanye harimo umutuku n'andi menshi, hejuru ku madirishya hasize irangi y'icyatsi kibisi.

Mu ikaragiro ry'amata harimo ikintu kimeze nk'ikigega cy'icyuma gifite utwuma ku ruhande bafataho, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umukara, afite igicuba ari kuganiza amata mu mufuniko w'icyo gicuba.

Umugabo wicaye muri kantine wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro yukoboyi, imbere ye hari ameza ateretseho utujerekani tubiri tw'arindwi tw'umweru n'igicuba, afite igikombe cy'amata ku munwa n'umugati mu ntoki, hirya ye hari umugabo uhagaze wambaye umupira wa rakosite w'umweru, hirya hari akandi kana k'agahungu gahicaye gafite igikombe cy'amata ku munwa.

Umuntu uhagaze areba hirya afite ijagi mu ntoki irimo ibyo kurya by'umweru, n'ikindi kintu mu kuboko ko hirya cy'umweru, hepfo hari indobo, iruhande rwe hari ameza ariho telefone n'akayunguruzo, munsi harimo indobo ku ruhande hari ameza nanone ateretseho ijage n'icupa.

Keke nziza zahiye kandi zisatuye ziri mu ndobo y'umweru ipfundikishijwe n'undi mufuniko nawo w'umweru uteretse ahantu mu nzu yubakishije udutafari duhiye, hirya yayo hari indobo isize ifite ibara ry'ubururu.

Imigati cyangwa se ibyo twita keke zahiye neza zashiriye hasi, ziri ku isahani y'umweru ni nyinshi, zigiye zishushanyijeho utuntu tw'uturongo zikoze neza cyane, hirya yayo hari udupapuro twerekana forume yazo.

Kantine mo imbere muri kontwari hahagazemo umusaza wambaye amarinete, ishati y'iroza, inyuma ye ha utujerekani tw'umweru, hejuru yatwo mu kabati harimo ijerekani y'umuhondo, hasi ku meza kuri kontwari hateretse amandazi ari mu ndobo z'umweru, iruhande rwe hari umusore, afite akajerekani k'umuhondo mutoki.

Kontwari iteretseho udukarito tubiri ak'umuhondo n'agafite ibara ry'umukara gashushanyijeho idarapo ry'u Rwanda kanditseho amagambo hejuru hari akabati karimo amaji y'ubwoko butandukanye harimo iya tangawizi n'iya inagi biri mu macupa y'amabara atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo usizemo irange ry'umweru ku mpande, hagati umuhondo, hirya hakaba hasize irangi ry'umukara n'umweru, ku ruhande rwaho haparitse moto, munsi y'ikusanyirizo ry'amata y'i Nyanza, rishushanyishijeho amabara y'umweru n'ubururu, hariho Utujerekani n'ibikarito by'amata.

Intebe ya plastike ifite ibara ry'ubururu, inyuma yayo hahagaze umugabo wambaye ipantaro n'ishati y' umukara. hirya hari umukobwa wicaye munsi y'akabati gateretsemo amacupa y'amazi manini, imbere y' ameza.

Ameza hariho igikombe cy'ikirahure, kirimo icyayi iruhande rwacyo hari iparato iriho ubusa.

Ibikoresho binini by'ibyuma biteretse mu cyumba. Hafi aho hari abagabo babiri umwe yicaye ku ntebe yasheze yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ariko ntabwo ari kubasha kugaragara mu maso. Undi yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati ya buresiyeri nawe ntabwo ari kugaragara, hirya hari ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Icyapa gishishikariza abantu kuzigama, mbere y'itangira ry'amashuri, hirya hashushanyijeho umwana uwinjiye inyuma atagaragara mu maso, hariho amabara menshi atandukanye, move, icyatsi, kibisi, hashanyijeho na telefone.

Umukozi wa MTN, yambaye umupira uriho ikirango cya MTN, ni umugore, afite fanta ya koka kola mu ntoki, inyuma ye hari abagabo batatu, iruhande rwe hari nundi mugabo ameze nk'uri kubwira ikintu, abandi bagabo bahanze amaso umuntu ari kubwira.

Abantu babiri harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'arakosite w'umuhondo, ingofero mu mutwe, ari kumwe n'umugore wambaye amarinete, ikote ry'umukara n'akantu ko mu imbere k'ubururu, afite igikarito mu ntoki, bose bafite amatelefone.

Urupapuro ruriho inyuguti zandikishije amabara atukura, icyatsi kibisi, n'ubururu rusinyeho. Hejuru mu inguni hariho inyuguti nini eshatu n'akantu k'akararabo gakoreshejwe amabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi n'umutuku.

Inote ya tanzania 1000 yanditseho amagambo banki ofu. Tanzaniya hariho inzu za etaje hirya hari ubusitani buteyemo pasiparume ku ruhande hashongejeho ururabo ruri mu ibara rya oranje hejuru kuri etaje hirya hariho idarapo.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye, mu muryango hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara ariko utagaragara mu maso, iruhande rwe hasize irangi ry'umuhondo, handitsemo ibintu n'ibara ry'umukara, hejuru hari ibindi byapa byanditseho amagambo, hejuru yayo hageretseho indi nzu yubakishije udutafari duhiye, ku miryango hasize irangi ry'umweru.

Icyapa kirekire cyandikishijeho amabara atandukanye harimo umutuku, umweru, umuhondo, n'ubururu, hariho icyapa hejuru kigaragaza amerekezo y'aho bavunjishiriza amafaranga, hariho na nimero za telefoni z'uko wababona; inyuma yacyo hubatse amazu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru uhagaze areba imbere yasetse, ahagaze iruhande rw'inzu ifunguye isize irangi ry'umutuku n'umweru, hejuru handitseho ijambo ryanditse mu ibara ry'umweru ryandikishije umutuku ngo ruku, kuruhande harafunguye hariho urugi rusize narwo irangi ry'umutuku n'umweru ruriho ibindi byapa byinshi harimo n'ibya mtn.

Icyapa kinini gisize irangi ry'umweru, cyanditseho amagambo n'ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo ngo "tuzamurane"; inyuma yacyo hari ikindi cyapa, byose bifashe ku nzu ya etaje ifite inkingi isize irangi ry'umuhondo; inyuma hari andi mazu n'abantu.

Inzu ya etaje hepfo ku nyubako yo hasi hasize irange ry'umweru ku bikuta, hariho icyapa kinini kigaragazako ari aho bakorera serivisi zo kuvunjisha amafaranga, hari inzugi zifunguye zifite ibirahure n'ibyapa bitandukanye bigaragaza ibihakorerwa.

Inzu itangirwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga aturutse Kigali Kampala handitseho Bukavu, isize irangi ry'umweru mo imbere no ku nkingi hasize irangi rya oranje, handitseho amagambo, imbere hari akapa kayobora abantu kabajyana hirya gashushanyije n'ibara ry'umukara.

Akazu k'umukozi wa banki wohereza akanabitsa amafaranga, hariho amarangi atandukanye agiye ariho kampani zose akorera, hasize irangi ry'umuhondo, ubururu, umweru, oranje, n'ayandi mabara menshi atandukanye bitewe n'ibyo akora, harafunguye.

Inzu ifite icyapa hejuru y'umuryango kigaragaza y'uko ariho bavungishiriza amafaranga, ku muryango yayo hari giriyaje zisize irange ry'umweru n'ibirahuri, hanze hari puberi, mu imbere harimo umugabo wicaye.

Ameza ateretse mu busitani akikijwe n'intebe zimwe zisa umukara, izindi zisa ubururu, zifite imifariso, ku ruhande hari akandi ka meza gatoya ziteretse mu busitani buteyemo pasiparume.

Intebe nyinshi zo muri salo zikoresheje imifariso zirimo n'imisego zifite ibara ry'ubururu, zifite utumeza ndetse n'utumeza dutoya, hirya hari umugore uhicaye ni hanze y'inzu, hari akabati gasize irangi rya pinki, ku nzu hasize irangi ry'umuhondo n'ubururu.

Muri salon yo kuriramo, hari ameza ateretseho amasahani y'umweru ariho ibyokurya n'utuhure tubiri turimo umutobe wo kunywa usa n'umukara; hazengurutswe n'intebe z'ubwoko bukoze mu mbaho, hirya yayo hari amavazi ateyemo indabo, inyuma yayo hari akabati karimo ibindi bikoresho.

Mu busitani bwa hoteri hari ameza agiye akikijwe n'intebe nziza z'umweru, hari imitaka, kuri ayo meza hariho amasahani n'ibikombe, ariho ibisigazwa by'abakiriya bagiye basigaho, hari ibikombe birimo imitobe igiye itandukanye, kandi inyuma y'izo ntebe hari ubwogero cyangwa se pisine.

Ameza akikijwe n'intebe, kuri yo hagiye hariho ikiyiko, ifoke, isani iriho seriviyete, hirya hari andi meza ariho ibirahuri gusa, imbere yayo kuri kontwari hahagaze abantu babiri, hirya harimo undi muntu muri kontwari, hejuru yaho hamanitse televiziyo.

Inzu yubakishije amakaro hasi, ifite inkingi mo imbere, isize irangi ry'umukara, ku ruhande rwayo hari intebe z'umukara, ku ruhande ukomeje hari ivase y'umweru, irimo ururabo, ku mpande naho hagiye hasize irangi rijya gusa n'umuhondo, hariho n'ikindi kintu giteretseho, kijya gusa n'umukara, hirya usohotse, mu birahure hari indabo.

Muri hoteli harimo inzu imeze nk'isakaje ibyatsi. Mo imbere harimo amatara yaka ibara ry'umuhondo ku buryo intebe zirimo n'abantu bicaye ubona basa umuhondo. Inyuma hari umuseriveri ufite ibyokurya ku masahani yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru. Iruhande rwe hari amavaze ateguyemo indabo nziza.

Ubusitani bw'indabo nziza ziteye mu mavase yo muri hotel, hirya yaho hari imitaka y'umweru, hari amasaro meza yo hanze arimo intebe zifite imifariso z'amabara atandukanye, hirya hari inzu isize irangi ry'umuhondo.

Amazi ari muri pisine afite ibara ry'ubururu, ikikijwe n'utwuma ndetse n'amazu maremare n'indabo nziza.

Abagabo bicaye imbere y'ameza ku ntebe z'umukara, umwe yambaye kkositime y'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, inyuma yabo hateretse ameza ariho mudasobwa, hino hari firigo iri ku icupa ryamazi ya gibu.

Inzu nini isize irange ry'umweru yubakishije ibirahure ahantu henshi, ifite icyapa kinini gikoze mu buryo bw'umuzenguruko hagati harimo akantu gatambitse k'ubururu kandikishijemo ibara ry'umweru amagambo Radiyanti.

Umugabo w'inzobe uhagaze yambaye inkweto nziza ipantaro, ikoti, ishati n'impeta inyuma ye hari intebe n'ameza na mudasobwa.

Inzu yubakishije ibirahure gusa ibonerana mo imbere hicayemo abantu babiri, inyuma hari umugabo uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'iroza, n'inkweto z'umukara afite n'uruhara mu mutwe.

Ibiro bya kampani y'ubwishingizi harafunguye mo imbere harimo utuntu tw'umweru, inyuma y'aho hari ibyapa bitandukanye bya banki y'iterambere ry'igihugu, iteme, irembo bakoreramo ibintu byinshi bitandukanye, bari kwamamaza ubwishingizi.

Umuntu umwe ari mu biro harimo imashini ya kompiyuta harimo agacupa k'amazi, harimo intebe yo mu biro ariko yicaye ku yindi ntebe yo muri salo isanzwe ifite imifariso ari kureba muri telefoni.

Abantu bicaye ku ntebe bari guhabwa serivisi muri ibyo biro harimo ibipirizo by'amabara atandukanye ,harimo uturabo twaka mu matara bitewe n'ibara bashaka inyuguti yanditseMUA byandikishije ibara ry'ubururu nabyo birikwaga mu itara.

Inyubako ya etaje munsi yayo haparitsemo moto iriho kasike z'icyatsi kibisi, hirya hari abadaso bambaye imyenda y'umukara bafite n'imbunda, bari imbere y'umuryango ukinguye usize irange ry'ubururu n'umweru, hejuru yayo hari indi nyubako isize irange ry'ubururu ku ruhande hari iry'umuhondo hariho n'ibyapa bitandukanye.

Abashinzwe iby'ubwishingizi bwa Sanlam baricaye, buri wese afite mudasobwa imbere ye; kandi hagati y'ameza ya buri muntu hagiye harimo icyapa cy'ubururu cyanditseho ijambo ''murakaza neza'' cyangwa se ''welcome''.

Inzu nziza ifite amakaro hasi, hejuru kuri parafo hasize irangi ry'umweru, hari amatara menshi ari kwaka, harimo ikirongozi kirekire gikikijwe n'ibirahuri, ukomeje hirya hari umuryango ufunguye, ku mpande hasi hagiye hasize akarangi k'umukara.

Icyapa cyo kwamamaza ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga, hariho imodoka y'ivatiri ifite ibara rya pinki hagazeho umukobwa wambaye inkweto ndende agapantaro, ikote ry'ubururu, afite n'isakoshi ahagazeho yegamye yazamuye ukuguru.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bambaye amakositime bari ahantu hamwe, imbere yabo hari televiziyo ariko itari kwaka itarimo ikintu na kimwe, hirya hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru y'amaboko magufi uri imbere y'ameza adekoresheje igitambaro cy'umweru n'umutuku afite amazi kuri ayo meza.

Icyapa cyo kwamamaza imikorere ya IM banke, hashushanyijeho umumama uri guseka, ateze igitambaro mu mutwe, yambaye umupira urimo amabara w'amaboko maremare, afite telefone mu ntoki, ahagaze iruhande rw'amazu, rw'inzu isize irangi ry'umukara n'umweru na oranje.

Isoko ryubatse mu buryo bwa etaje, munsi hari umuryango ukinguye w'ibara ry'icyatsi kibisi, na giriyaje zisize amabara y'icyatsi kibisi, hamanitseho n'ibyapa, ruguru hari utundi twuma dukikijeho ibara ry'umuhondo, munsi hari abantu benshi cyane bahagaze harimo abagore n'abagabo.

Mu isoko hari umumama ufite ibiseke harimo n'abandi bantu benshi inyuma y'isoko hegetse inzugi z'amabati hejuru y'izo nzugi hari ibisabo, hari udukoko, hasi hari ingoma y'uruhu hari n'umutaka wa emutiyene.

Isoko ry'ibiribwa, by'umwihariko imboga. Harimo kokombure, inyanya, shufurere, amashu, insenda, ibitunguru, karoti.

Mu isoko harimo abamama bari gucuruza bafite amabase asa na orange, n'andi yandi mabara atandukanye arimo ibishyimbo ateretse ku mifuka, biri hejuru y'amabuye, hirya hari undi mufuka urimo ibishyimbo ufunguye ku ruhande hateretse amabase arimo imineke afite amabara atandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abamotari batwaye moto, hirya yaho hari abantu bari kugenda n'amaguru, ku ruhande hari inzu ya etaje ifite ibirahure bya fime isize amarange atandukanye y'umuhondo handitseho n'amagambo menshi mu mabara atukura menshi, munsi haparitsemo amamodoka y'amavatiri.

Umugore wicaye mu isoko ry'imbuto n'imboga, uteze agatambaro karimo amabara y'umukara n'umweru, karimo uturabyo iruhande rwe hari agatebo karimo inyanya zihiye, hirya hari imineke ya kamaramasenge, inyuma ye hari ubunyobwa, imyungu, ibiringanya, puwavuro, imyembe n'ibindi.

Umugore wicaye mu isoko ry'imbuto, yambaye umupira rakosite w'ubururu n'igitambaro mu mutwe, inyuma ye hari umusore wambaye ingofero yayirebesheje inyuma, ari kumwe n'undi mumama, iruhande hari imeza iriho imeke ya kamaramasenge, hirya hari imyembe, ibinyomoro, amatunda, watameloni, hejuru yabo hamanitse igitoki.

Inzu nini y'igisenge gikoze mu buryo bwa zigizage, ifite urubaraza rurerure munsi yayo, iruhande rwayo hari abantu benshi abagore n'abagabo, amamodoka, amamoto, bamwe bari kugenda, abandi barahagaze.

Isoko ry'ibikoresho by'ubugeni harimo udukoko, amasaro, udukapu tw'uduti two guhahiramo, hejuru hamanitse imyenda y'amabara atandukanye, imipira, ibitenge, amajipo, amakanzu, amashati y'ubwoko butandukanye.

Akazu k'umu agenti wa MTN gafunguye imbere no ku ruhande rwo hirya gasize irangi ry'ubururu, kandikishijeho inyuguti n'ibara ry'umuhondo, imbere hashushanyijeho umugabo ufite telefoni mu ntoki, hirya hari indi telefone iri mu ibara imeze nk'irimo urupapuro ruririmo ibara ry'ubururu n'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro ya bureseri n'umupira w'umweru ahagaze inyuma y'abandi bagabo bambaye imipira irimo umukara, n'umuhondo. Munsi hari urugi barigufungura. Hejuru yarwo hari icyapa cyometse ku nzu kibati gishushanyijeho MTN n'amabara ya MTN. Hirya hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'umupira w'umweru.

Umugore ukorera emutiyene wambaye isaha ku kuboko, umupira w'umuhondo, ingofero y'urugara ifite akarongo gatambitse k'umuhondo, hirya hari umusore uri kureba muri terefone, wambaye umupira w'umukara n'ingofero, inyuma yabo hari undi mukobwa wambaye imyenda itukura, hejuru muri ako kazu hari ibyapa bigiye bitandukanye, bishushanyijeho ibyo kurya.

Mu isoko hahagazemo abantu benshi, harimo umugabo wambaye umupira na rakosite w'umukara n'amarinete, imbere ye hari mudasobwa irimo ibintu na radiyo icometseho umugozi, hirya hari abandi bagabo babiri bafite telefoni mu ntoki n'umugore ufite menshi uhagaze ku ruhande, hirya ye hari ibindi bicuruzwa harimo uburoso bw'amenyo n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati ya buresiyeli n'ipantaro y'umukara ahagaze ku kazu ka emutiyene akazu ka emutiyene gafunguye mo imbere harimo umukobwa barimo baravugana.

Umuntu ufite telefoni ya gatushe mu ntoki, ari gukanda yerekana uburyo wakwishyura ukoresheje mu momopeyi, inyuma hari icyapa cya MTN, kirimo ibara ry'umweru, hagati handitsemo amagambo yandikishije umukara icyo cyapa gisa umuhondo.

Abantu batatu bari kuganira, umwe w'umusaza wambaye ishati y'umweru ufite akantu k'umuhondo mu ijosi, wambaye n'amarinete ari guhereza undi agaseke, karimo amabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umukara, uwambaye ishati y'amakarokaro ari gukora muri ako gaseke, hirya yaho hari umumama wambaye ijire y'umuhondo.

Akazu k'umukozi wa Airtel hirya yaho hari n'ak'umukozi wa MTN, kuri ko harafunguye, imbere y'aho hafunguriye hahagaze umukobwa, hamanitse n'itaburiya ya MTN, bigaragaza ko akorera na MTN mo imbere harimo umukobwa wambaye isengeri y'umweru.

Umukozi wa emutiyene w'umugabo yicayeye mu kazizu akoreramo gafunguye, imbere ye hari kayi, ikaramu na terefone yicaye areba imbere hanze y'aho akorera.

Akazu k'umukozi wa Emutiyeni harimo utanga serivise zo kohereza amafaranga no kubigura arahagaze imiryango yose irafunguye, hirya hahagazemo abantu bari kumwaka serivise, gafite irange ry'umuhondo, handikishijeho inyuguti n'ibara ry'umukara.

Icyapa cya MTN, kigaragariza abantu kwishyura bakoresheje kode, mo hagati harimo amabara y'umweru yanyandikishijeho uwo bagomba kwishyura, hepfo hari imibare na yo iri mu ibara ry'umukara, ariko iri mu tudurishya tw'ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze yambaye inkweto z'umukara n'ipantarobo y'ubururu n'umupira w'umuhondo, ari kumwe n'umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ijire y'umuhondo ya MTN, hirya bafashe ku kazu k'umukozi wa MTN gashushanyijeho n'amabara y'ubururu, umuhondo n'umukara.

Umuhanda k'uruhande rwawo hasize irangi ry'umukara n'umweru, hirya hari akazu k'umukozi wa emutiyene gafunze hose ibyapa n'ibiti.

Umugabo wambaye amarinete, umupira wa rakosita utukura, ahagaze iruhande rw'umusore wambaye umupira w'uburongo bw'ubururu n'umweru, n'ijire ya MTN munsi y'umutaka w'umuhondo, hepfo yaho hicaye undi mugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya oranje.

Umumotari wamabye kasike y'ubururu n'umupira w'umukara ,afite agakarito k'umweru agashyira mugasanduku kubururu .

Ubucuruzi bukorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, hariho ibicuruzwa bitandukanye ibyo bacuruza muri rusange imbuto, amateke, izo mbuto zirimo imineke, amasafuriya ruguru hari imodoka iparitse yegerewe n'abantu bari mu isoku.

Iyamamaza ry'isoko ricuruza hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Hepfo hari umugore utagaragara mu maso ufite imisatsi y'umukara miremire. Hirya hari ryiza ry'mukara rya sitire. Ku ruhande hari isakoshi ifite ibara rya kaki. Hejuru ruguru hari indi mashini yanditseho ijambo renovo.

Itangazo ryo kwamamaza gaze, moto, amazi ya jibu batanze na nimero za telefoni wababonaho naho wabikura ni zeru karindwi umunani mirongo itanu na gatanu makumyabiri na gatanu mirongo irindwi na rimwe gatandatu.

Mu bubiko, harimo firigo icometse ku muriro, hateretse indobo y'icyatsi kibisi n'ijerekani y'umuhondo; ku ruhande hari igikoni kiriho amagaze ariho keto hasize naho irangi ry'umukara.

Igikoni cyiza gifite ravabo mu nzu yubakishije amakaro harimo amatara yaka neza, hirya hari kizimyamwoto hasizemo irange ry'umukara mu gikoni, hari umuryango ufite ibiziringiti by'imbaho.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, mw'imbere hari igiti gifite amashami maremare n'ibibabi, n'imbere harimo inzu isize irangi ry'umweru ifite akadirishya ko kuhande na kostara, hejuru isakaje amabati atukura.

Inzu yubakishije amakaro hasi isize irange ry'umweru ku bikuta, ifite amadirishya y'ibirahure, giriyaje zisize irange ry'umukara, hejuru hari amakositara kuri purafo hasize irange ry'umweru, hari itara ricometseho atanu rimwe ryo mu nguni ni ryo riri kwaka gusa.

Ubusitani bwiza buteyeme pasuparumo, ku ruhande hariho uturabo tukiri dutoya twiza, hirya hateyemo izindi ndabo ziteye mu tubuye inzu isize irangi ry'umweru isakaje amabati, hirya hari ikigega kiri hejuru ku yindi nzu munsi yacyo hari indi nzu yubakishije udutafari duhiye iriho urugi rutukura.

Igitanda kinini giteretse ku itapi ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umweru, gishasheho matera na kuvureri nziza ifite amabara y'umweru n'ubururu, hariho esuyime n'imisego ibiri y'umweru, iruhande rwacyo hari akabati karimo tubiri.

Inzu nziza ifite amakaro hasi, ifite inzugi z'ibirahuri zisize irangi ry'umukara, ku mpande ku bikuta hagiye hasize irangi rya beje, hariho inkingi zisize irangi ry'umukara, hateretsemo utumeza tuzengurutswe n'intebe, hirya hari ikindi gipangu gikorotirijwe udutafari duhiye.

Inzu isize irangi ry'umweru imbere isizwemo utuntu tw'umukara amatara hejuru ari kwaka kuri parafo nasize irangi ry'umweru indabo hejuru, zimanitse ku tudarage urugi rwiza rufite selile igezweho rwa tiripurekisi hirya hari salo y'imifariso.

Etaje ndende isize irangi ry'umweru na oranje, ifite amadirishya impande n'impande manini y'ibirahuri, iri muri Kigali, inyuma hari ubusitani bwiza butemba indabo, harimo n'izagiye zirandaranda hejuru ku kutwuma turi impande y'urubaraza.

Inzu ya etaje ifite imbuga y'amapave, imbere hari amavaze ateguyemo indabo zifite amababi manini y'icyatsi kibisi, isize irangi ku nkuta rya oranje n'umweru, hejuru ku madirishya n'inzugi hasize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari indi etaje ifite uruzitiro rusize irangi ry'umweru n'umuhondo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto n'ijire iriho umukara n'umweru n'icyatsi kibisi ahagaze mu murima ari kwerekana ko hari kugurishwa, harimo utwatsi dukeya, hirya hari igipangu cyubakishije udutafari duhi mu imbere harimo amazu y'uducurama abiri asakaje amabati atukura.

Mu nzu harimo inzu ifite ibara ry'umweru ku mifariso irimo amakaro, hasi hari umukeka uteretseho akameza kazengurutse k'ikirahure, hirya hari indi ntebe y'umuhondo mo imbere harimo umusego, inyuma y'intebe hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umweru warambuye ukuboko.

Inzu nziza y'agacurama isakaje amabati atukura, isize irangi ry'umukara n'umweru ku madirishya, hari ibirahuri, umuryango ukinguye, hanze hari amapave yubakishije utubuye duhiye, hanze ku gipangu hasize irangi ryiza ry'umukara n'umweru.

Inzu nini igeretse ifite fondasiyo y'amabuye, isize irangi ry'umweru, n'amadirishya yayo n'ibirahure ariko ifite ibyuma bisize irangi ry'umukara ku madirishya.

Inzu igurishwa y'i Kigali, isize irangi ry'icyatsi kibisi n'umweru ku nkingi zo ku mbaraza, n'irangi ry'ubururu iruhande rw'inzugi z'ibirahure, ifite imbaraza ebyiri, igeretse kabiri, ifite imbuga y'amapave n'uruzitiro.

Inzu nini ikodeshwa ifite imbuga y'amapave, hateretse akadobo k'umuhondo, hari amadarage azamuka ajyamo imbere, urubaraza, amadirishya y'ibirahure bya fime by'ubururu, isize irangi ry'umuhondo n'andi mabara y'umweru, hejuru afite n'urubaraza runini n'umuryango munini wo kwinjiriramo.

Inzu nziza ifite imbuga y'amapave, ku rubaraza hakikijweho utugiriyaje dusize irange ry'umukara, ku nkingi hasize umweru, ifite amadirishya y'ibirahure bya fime, isize karabasasu y'umukara, inasakaje amabati y'umukara.

Inzu ndende ifite amadirishya ane, ku idirishya ryo hirya hari akantu k'agasanduku k'umweru, hepfo y'amadirishya hari icyapa cyandikishijeho amabara y'ubururu n'atukura, ariko cyo gisa umweru.

Inzu nziza cyane igeretse, isize irangi rishimishije. Hanze yayo hari ubusitani bwiza, hari amavase ateyemo indabo. Imbuga yayo yose irapavomye , ifite ibyumba bitatu , ifite dushe ebyiri, ikodeshwa amadorari igihumbi ku kwezi.

Inzu nziza ya etaje ifite amadirishya y'ibirahure, isize irange rya kake, isakaje amabati y'umukara, hanze igipangu cyubakishije udutafari duhiye n'amabuye hasi kuri fondasiyo urugi rufite irangi ritukura n'umweru.

Mu isoko harimo abagabo babiri n'umugore hirya uteze igitambaro cy'umukara, harimo ibicuruzwa bitandukanye, umugabo umwe wambaye umupira w'umukara n'ingofero ari iruhande rw'intebe y'ubururu, hejuru y'ameza hari akabasi k'icyatsi kibisi karimo ibintu.

Ameza y'ibiti ateguye. Hirya yayo hari umukobwa ufite ibisuko, yambaye umupira wa oranje. Hirya ye hari umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi. Inyuma yabo hari imyenda, amakanzu menshi amanitse kuri porutomato afite amabara atandukanye.

Mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye rifite hasi amakaro, harimo umukobwa wambaye ipantaro n'agasengeri gatukura ufite na menshi, afite mu ntoki igikapu kirimo ibintu yahashye, yambaye n'isaha ku kuboko, harimo ibicuruzwa bitandukanye, hirya hateretse amacupa y'amazi ya Nili.

Mu nzu igiye imanitsemo ibyapa byinshi cyane bya MTN, ku mpande zose hasize amarange y'umuhondo n'umukara, munsi harimo abantu benshi, harimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ijiri y'icyatsi kibisi, ku ruhande rwa hano hino hamanitse bafure iri kuvuga, hahagaze n'abandi bantu babiri.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo utubuwate cyangwa se udukombe tw'ubunyobwa twanditseho ibiciro hejuru. hirya hari utundi tubati turimo ibindi bicuruzwa, iruhande rwaho hahagaze umugabo wifashe mu mifuka wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa, hirya abandi bantu benshi barimo n'umugabo wambaye umupira wa orange.

Umukobwa uhagaze yambaye ipantaro y'ikoboyi afite sharijari mu ntoki, ahagaze iruhande rw'akabati karimo amaji y'ubwoko butandukanye, hasi harimo iza oranje ahandi iza pome, hejuru harimo amacupa manini y'amazi yo kunywa.

Isoko ry'imyenda harimo umusore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, ingofero itukura ahetse igikapu mu mugongo kirimo amabara y'umukara, hepfo hari inkweto zitereretse hasi, hirya hari amapantaro n'indi mipira myiza y'amabara atandukanye imanitse kuri porutemanto.

Abantu benshi harimo umugore munini wambaye ikanzu y'igitenge n'agasharupe mu ijosi bahagaze mu isoko, hari n'abamama bari kureba ibicuruzwa abandi barimo baracuruza, hejuru muri iyo nyubako hari icyapa cyandikishijeho amabara y'umweru gitukura.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro ya kaki ahagaze mu isoko ry'inkweto ryeretsemo utuntu turimo inkweto nyinshi z'ubwoko butandukanye harimo iza congo, utuntu tuw'umuhondo hirya harimo abandi banu nabo bari gucuruza n'abakiriya.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo utubati tugerekanzemo amacupa y'ibyo kunywa n'amavuta yo kwisiga, hirya ukomeje harimo umugabo uri gutambika hagati y'akabati karimo ibindi bicuruzwa, hejuru hamanitse icyapa gitukura, ku ruhande rwo hino hari umugore uri gukora mu bicuruzwa.

Isoko ryubakishije hasi amakaro, rifite utuba tugiye tugerekanze duteretsemo ibicuruzwa bigize ku mpande ibara ry'umutuku, akandi kari hino kariho umweru hejuru hateretseho amacupa kuri palafo hariho amatara menshi acana.

Umugore wambaye ijipo y'igitenge, yicaye ku ntebe ya sheze n'agapira k'ijosi rinini, utashatse kwigaragaza mu maso, afite amakarita abiri ya RSSB cyangwa se ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza, mituweri dosante.

Icyapa cyo kwamamaza ejo heza kiriho umukecuru wambaye imikenyero n'umusaza wambaye nka we n'ingofero.

Ikirangantego cy'u Rwanda cya mituweli de sante RSSB ubwishingizi bwitwa gutyo, gifite ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo, ku ruhande handitse ko ari ikigo cy'ubwiteganyirize mu zabukuru RSSB.

Itangazo ryo gushishikariza abantu uko bakizigamira muri ejo heza, bakoresheje telefone zabo, yanditse mu nyuguti z'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru, mu ibara rinini ry'ubururu rigize iryo tangazo, mu nguni ryayo harimo utundi tuntu tw'ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo akabati kagiye gatondetsemo ibintu harimo amafu, ibikombe birimo ibicuruzwa. utubati, uducupa turimo ibyo bacuruza, udutekawe n'ibindi.

Amashashi ateretse mu bintu by'ubururu, arimo ibikopo by'umukara n'ibindi bitukura. Hejuru yabyo hari amacupa maremare arimo ibintu by'umukara, n'ibisa na oranje. Hejuru hateretsemo n'andi macupa afite amabara atandukanye.

Isoko ryubakishije hasi amakaro y'ibara ry'umukara n'umweru, hari icyapa kuhande inyuma yacyo hari karoti n'inyanya, umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'uburongo bw'umukara n'umweru ahagaze mu isoko.

Umugore uhagaze mu isoko wambaye umupira wa lakosite, iruhande rwe hari umufuka urimo ibihaza, afite akajerekani mu ntoki, hirya ye hari undi mugore wambaye ishati n'isaha ku kuboko n'umugabo uri inyuma yabo ufite amvelope mu ntoki y'udushumi.

Ni mu isoko hahagazemo umugabo utagaragara isura mu maso, yahashye imbuto zifite ibara ry'umuhondo, hirya hari umuntu uri gucuruza w'umugore afite ishashi mu ntoki irimo amandazi, yambaye umupira wa rakosite n'itaburiya.

Umukobwa avuye mu isoko ry'imbuto n'imboga ahashye ibintu byinshi bitandukanye abifite mu gatiri, yambaye ikoti ry'ikoboyi n'agapira k'umweru mu imbere, afite agatiri gafite ibara rya oranje, ahashye inanasi n'ibindi bintu byinshi n'imineke.

Mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ryubakishije hasi amakaro y'uturongo tunyuranyuranyemo, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara. Ahagaze iruhande rw'akabati karimo ibyo kunywa, arigukuramo ivide. Hirya inyuma y'inkingi isize irangi ry'umweru hahagaze undi musore n'umugore.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara karuvati n'ishati y'umweru ahagaze mu isoko ririmo utubati tugerekeranye harimo ibicupa bya mayoneze n'ibindi bicuruzwa bitukura n'andi mavide arimo ibintu bitandukanye byo kunywa hirya hari amafu y'igikoma n'ibindi bicuruzwa bigiye bipanze muri utwo tubati.

Mu isoko hasi hubakishije amakaro harimo utubati dupanzemo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibiri mu mashashi atukura ay'umweru ndetse hirya hari n'utubati tumanitsemo ibindi bicuruzwa by'ibyo kunywa, hirya hari guturukamo umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Isoko ryubakishije amakaro hasi ririmo utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye hino hari amakaroni y'ubwoko bwinshi harimo ay'umuhondo, hirya harimo uducupa turimo ibintu bisa na shokora, harimo andi macupa arimo ibintu bisa n'icyatsi kibisi n'ibindi byinshi.

Abantu b'abagabo bari mu isoko, umwe muri bo ahagaze iruhande rw'imitobe itandukanye, yambaye imyenda y'imikara, ari guhaha akoresheje agatiri agenda ashyiramo ibyo yagiye ahaha byose, ari kureba icyo akeneye kugira ngo agifate.

Isoko ryubakishije amakaro hasi, rifite amatara hejuru muri purafo ari kwaka, harimo ibicuruzwa bitandukanye amabiswi y'akarabo, hino harimo ibikarito hasi by'amata y'Inyange n'ibindi by'amabara y'umuhondo, hejuru hagiye hari n'ibindi bikarito birimo ibyo kunywa bitandukanye.

Umugabo wiyogoshesheje akamaroraho umusatsi wose yambaye ishati y'umukara, afite agatiri mu ntoki ari mu isoko ari guhaha ari guterura agafuka k'umuceri iruhande rwe hari n'ibindi bicuruzwa byinshi.